Abantu benshi bashungereye iriba, umukecuru urimo apompa kugira ngo babashe kubona amazi, umwana muto wambaye umupira w'umutuku atezeho amajerekani kugira ngo amazi bavomye ajyemo neza, hirya hari urutoki rwinshi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, harimo umurwayi wambaye agapfukamunwa, umupira wa shokora yahinnye akaboko kugira ngo umudamu uri kumukingira abona uko amutera urushinge, muganga wambaye imyenda ye y'akazi ga z'ubwirinzi agapfukamunwa.

Umudamu wambaye igitenge, umupira wamabara avanze, n' ingofero mu mutwe. Ari iruhande rwa kandagira ukarabe arimo arikorera isuku mu ntoki kugirango yirinde indwara ziterwa n'umwanda. Inyuma ye hari inzu ifite umuryango ukinguye.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu, inkweto, ari kuri robine arimo arakanda kugira ngo afashe abana babashe kuvoma, bazanye ububido kugira ngo bivomerere amazi meza yo kunywa, hirya hari umuhanda uhagazemo imodoka.

Umudamu wicaye ku ntebe yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete yashyize mu gatuza yambaye agapfukamunwa, umuganga umuri iruhande urimo kumukingira byamubabaje arimo kwiyumvira, inyuma ye hari uri kureba.

Abantu benshi bari ku ivomera. Barategereje. Hari ibijirekanii byinshi cyane, amabase, bategereje ku babona amazi ngo bavomeremo. Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ubona ko ari we mukuru muri bo, arimo arabashyira ku murongo.

Abana bato b'abanyeshuri batatu barasetse bambaye imyenda y'ishuri barimo gukaraba mu ntoki kugira ngo berekane uko bazajya babigenza igihe bafite amazi meza, imbere yabo hari robine zirimo kuzana amazi kugira ngo birinde umwanda.

Abana batoya bicaje hasi n'ingeri zitandukanye, abahungu abakobwa, bambaye udupira twa orange barimo kubaha amata mu bikombe. Abayobozi bacu bakuru harimo n'ushinzwe umutekano, barimo kugira ngo abana b'igihugu bo kuzarwara bwaki kubera ko babuze amata.

Abana babiri bari kuri robine barimo gufungura amazi kugira ngo bavome, imbere yabo hari indobo nyinshi z'umweru bari kuvomeramo, barimo barabereka ko bafite amazi meza bagomba kugira isuku, bakoga bagafura bagasa neza.

Ababyeyi babiri bambaye agapfukamunwa bafite abana batoya, uhagaze yambaye ishati irimo amababa y'umuhondo arimo arasoma akana wke kamunejeje. Umubyeyi n'ingenzi ku mwana aramukunda akamwonsa akamukorera buri kimwe.

Ni kwa muganga, umurwayi uryamye ku gitanda bigaragara ko barimo kumubaga. Abamuteraniyeho benshi bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa. Barimo kugerageza gutabara ubuzima bwe ngo yorohejwe n'uburwayi afite. Ni abaganga benshi.

Umwana muto afashe isabune arimo gukara, hari uri kumusukira amwigisha uko agomba gukaraba intoki kugira ngo yirinde umwanda. Isuku ni nziza kugira ngo twe kurwara indwara za hato na hato ziterwa n'umwanda, inzoka.

Abana b'abanyeshuri bari hamwe, bambaye imyenda ibaranga y'ishuri. Bari iruhande rwa robine barimo kunywa amazi bigaragara ko banezerewe nuko bafite amazi meza, badashobora kurwara inzoka za hato na hato.

Bicaye mu cyumba k'inama bari gukurikira imbere yabo ibiri kuhavugirwa, hagati harimo ameza ariho igitambaro cy'umweru n'ubururuamazi yo kunywa ya Nile, ibitabo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, abagabo, abagore, hagati yabo hari ameza manini cyane akoze mu rubaho rwiza. Bafite ibitabo byo kwandikaho, amaterefone arambitse ku meza, amazi yo kunywa.

Abana batoya bambaye imyenda ibaranga y'ishuri, bari kuri robine barimo gukaraba intoki, hasi hari utudobo turi kujyamo amazi mabi, barimo kugerageza kwiririnda umwanda barwanya uburwayi bw'inzoka n'ibindi.

Umugabo n'umugore baricaye ku ntebe begeranye bafatanye, barishimye baranezerewe kuko bitegura kuzibaruka umwana, bagiye kwa muganga kwipimisha kugira ngo babagire inama z'uko bazajya bitwara.

Abagabo barimo gusuhuzanya banezerewe, bambaye amakote, amapantaro, amakarita abaranga mu ijosi, bahuje ibiganza baseka, bishimirana ku byo barimo kuganiraho, umuzungu wambaye igitambaro mu ijosi, arimo kubareba, nawe abishimiye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze imbere y'inzu isize irange ry'umuhondo, hasi hasize sima y'umutuku, barimo kwifotoza bahagaze, abakobwa, abasore, baranezerewe barimo kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso bajye bareberaho uko bari bameze.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho irangira ry'umweru, urugi rurakinguye, handitseho amagambo agaragaza ko ari sale y'inama, bambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko ari abaganga baho ngaho, aba basuye.

Abana bato b'abanyeshuri, bambaye imyenda ibaranga; nk'abahungu, abakobwa. Bari iruhande rwa robine, barimo gukaraba intoki mu rwego rwo kwisukura, kugira ngo birinde indwara z'umwanda za hato na hato. Utudobo duteretse imbere yaho, hirya hari ibiti byinshi...

Robine irimo amazi meza cyane y'urubogobogo, ibiganza bibiri bigaragara ko biri gukaraba, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, mu kuyanywa atuma umubiri ukora neza, kuyoga, kuyameshesha, kuyarongesha.

Akana gato k'agakobwa kaka nyeshuri kari imbere ya akandagira ukarabe karimo gusukura intoki kugirango hirindwe indwara zitandukanye, yaba avuye kuri toilete avuye gukina gukora mu myanda itandukanye agomba gusukura intoki ze, kugira ngo atarwara.

Umuntu wicaye ku ntebe yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, yahinnye ishati ye ayigeza ku rutugu, barimo kumutera urushinge rwo ku kaboko bigaragara ko bari kumukingira, uri kumufasha wambaye ga...

Ni mu cyumba cy'inama, harimo abadamu barimo kubyina, ubona ko banezerewe, bateze amaboko meza cyane, hirya hari intebe z'umweru zo kwicaraho, ameza akoze mu rubaho rwiza, n'intebe y'umukara y'umuyobozi wabo, wabahaye ibiganiro yari yicayeho.

Ni muri sale y'inama, abagabo babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umuhondo, ibitabo bandikamo, terefone barambitse kuruhande, amazi yo kunywa, inyange, ibirahure.

Ishuri rinini cyane. Ryubakishije amatafari ahiye, harimo ikibuga cyisanzuye. Umunyeshuri uri kuri robine, atezeho amashyi kugira ngo avome amazi yo kunywa. Imbere ye hari ikidobo kijyamo imyanda itandukanye.

Amazi menshi cyane y'ikiyaga, harimo abana batoya bagiye koga, baranezerewe, barimo barakina, biga uburyo bagomba koga.

Abaganga benshi bari imbere y'ikigonderabuzima barahagaze abasore, abagabo, abamama barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye biyibikiraho ko bafatanyaga umurimo bashyize hamwe kandi bawukunze.

Abantu benshi bingeri nyinshi bicaye mu nama barareba imbere yabo hari abantu bicaye bari kubagezaho ibiganiro, kamera bashinze iri gufata amajwi n'amashusho.

Abantu benshi baricaye mu cyumba k'inama ingeri zitandukany,e bahanze amaso abari imbere bari kubagezaho uko inama iri bugenze, iruhande rwabo hari uducupa tw'amazi y'inyange yo kunywa.

Umudamu ufite indobo ebyiri iy'umutuku n'iy'umuhondo, akenyeye igitenge yambaye ishati y'amabara avanze, imbere hari ishyamba ryinshi harimo inzu arimo yerekezaho atahayo.

Umusore wambaye ipantaro y'umweru umupira w'ubururu ekuteri matwi afite umusatsi, yicaye iruhande rw'umuganga ufite igitabo kinini cyane arimo kuzuzamo imyirondo ye kugira ngo abashe kumuvura amuzi neza yambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga kinini, ni ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, abasaza, abamama bahetse abana, imbere yabo hari ibendera ry'igihugu, umuryango ukinguye bigaragara ko bari kwinjiramo, ihema ry'umweru.

Abadamu benshi baricaye muri salle bafite abana bigaragara ko baje gukingiza barategereje, uhagaze ugezweho wambaye ibitenge ikindi mu mutwe, ateruye akana ke, bafite ifishi mu ntoki yo gukingirizaho.

Bubakiwe ivomero rya kijyambere barishimye bafite indobo y'ubururu , iy'umutuku barimo kuvoma amazi aba mama babiri. Uteze igitambaro arimo afasha umukecuru kumuterurira kugira ngo bitamubangamira, bari bagejeje ku iterambere babavana kujya gushaka amazi asa nabi.

Abantu b'ingeri nyinshi bari muri sale nini cyane, baricaye abagore abagabo, umuganga uri hagati yabo wambaye umwenda w'umweru w'akazi arimo kubasobanurira abigisha ibya serivisi bakeneye.

Umukobwa muto cyane a umugezi munini utemba afite ijerekani y'umuhondo atezemo arimo kuyivomeramo amazi yambaye ijipo, shati arunamye.

Umudamu ari ku ivomero afite indobo y'umweru n'iy'umutuku, arimo koza umufuniko kugira ngo apfundikire amazi yavomye afite isuku, yambaye ibitenge, umupira w'icyatsi, ahetse umwana mu mugongo bigaragara ko yasinziriye.

Umukobwa wicaye ku gatebe, yambaye imyenda y'umutuku ingofero mu mutwe, biragaragara ko yifashe ku itama yihebye, mugenzi we uri imbere ye wambaye imyenda y'umukara arimo kumuhumuriza, amubwira ko ubuzima butarangirira aho.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'ubururu imbere ye hari terefone ku ameza harihoho igitambaro cy'umuhondo amazi yo kunywa ari mu icupa umudamu wicaye iruhande uteze igitambaro wambaye igitenge yicaye ku ntebe y'ubururu arimo arakurikira ibyo bari kumusobanurira.

Imodoka nini cyane irikugenda mu muhanda. Ifite irangi ry'icyatsi. Itwara ibikoresho by'ubwubatsi ni nziza kuko iripakurura yo ubwayo. Iruhande rwayo hari umugabo ufite ibifuka byinshi wambaye imyenda icikaguritse, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umudamu wicaye ku gatebe k'urubaho, yambaye kamambiri, igitenge, ishati y'amabara avanze, biragaragara ko atanezerewe mu maso. Imbere ye hari umusambi, idirishya rikinguye ry'inzu, ibyondo byinshi biri ku nzu ye.

Umwarimu w'umukecuru wicaranye n'abana barimo gufata ifoto y'urwibutso, baranezerewe. Ni byiza ko umurezi wese agomba kwiyumvamo abana, bagasabana, akagaragaza ko bari mu kigero kimwe.

Abantu bari mu nama bishimye barimo gukoma amashyi, abadamu beza bafunze imisatsi, bambaye amakarita abaranga mu ijosi, hagati yabo hari ameza y'igitambaro cy'umweru kiriho amazi yo kunywa n'ibitabo.

Umudamu arahagaze, yambaye umupira urimo amababara y'umuhondo n'ubururu, afite ikarita imuranga mu ntoki arimo arayitwereka kugira ngo tubashe kumugirira icyizere, ahagaze inyuma y'urugo rwubakishije amatafari ahiye inzu ihinguka.

Umudamu ufite umwana mwiza cyane, yambaye ishati y'umweru, afite umusatsi mwiza arimo araseka aranezerewe kubera ko afite umubebe mwiza, akana karaseka karashimishije.

Abantu benshi, harimo urubyiruko, abakobwa, abagabo, umuzungu uteruye akana, barishimye barimo guseka, barimo gufata ifoto y'urwibutso kugi rango bibuke bya bihe byiza bagize baranezerewe kandi bashyize hamwe.

Ishuri rinini cyane ryicayemo abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, nk'amakabutura n'amashati y'umuhondo, bafite korogati mu ntoki barimo kuyizamura, barerekana yuko bagomba kugira isuku yo mu menyo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Umusaza aryamye ku gatanda kwa muganga iruhande rwe hari ibikoresho, umufashe yambaye ga z'ubwirinzi amwasamuye arimo kureba ikibazo afite cyo mu kanwa kugira ngo amuvure indwara za hato na hato ziterwa n'umuwandazi w'umennyo.

Umugabo mwiza wambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa, arimo guseka, amenyo meza yererana, afite akagozi mu ntoki arimo kugurishamo imyanda mu menyo kugira ngo hokugira ibisigaramo ngo bimutere indwara zo mu kanwa.

Akana gatoya kari kwa muganga ni inzobe. Karyamye ku gitanda cy'umutuku. Umuganga wambaye ga z'ubwirinzi arimo kukarebera amenyo kugira ngo akavure gakire indwara za hato na hato zo mu kanwa. Karasamye…

Umugabo ari mu cyumba cyo kwa muganga aryamye ku gatanda, arasamye, umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ga zo kwirinda, agapfukamunwa ari kumurebera mu menyo ikibazo afite kugira ngo amuvure indwara zo mu menyo za hato na hato

Abana b'abanyeshuri batoya bambaye imyenda y'ishuri y'ubururu, bafite uburoso mu ntoki barimo kubigisha uko bagomba kugira isuku yo mu menyo bakiborosa mu gitondo, saa sita na ninjoro bagiye kuryama kugira ngo birinde indwara za hato na hato z'ifumbi zo mu menyo.

Umwana muto cyane uri kwa muganga, aryamye ku gatanda, bamushyizeho agatambaro k'ubwirinzi bw'isuku arasamye, umuganga wambaye ga z'icyatsi arimo kumurebera mu menyo areba ikibazo afite kugira ngo amuvure bigende neza.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru yanezerewe arimo guseka afite imisatsi myinshi arimo gukora isuku yo mu memyo kugira ngo hatagira imyanda isigaramo akarwara, isuku ni ingenzi.

Muri resitora nziza cyane, umugabo w'umwirabura, n'umuzungukazi baricaye kumeza, bafite isahane irimo ikiyiko, bigaragara ko bari kurya isosi, ubari inyuma arimo kubaseriva.

Umukecuru wambaye umupira urimo umweru n'amabara y'umukara, arimo gusuhuzanya, bafite imisatsi y'umweru y'imvi, umuganga wambaye igipimisho mu ijosi, imyenda y'akazi y'ubururu, aramwishimiye yamwakiriye.

Kwa muganga ,umusaza aricaye kwitegereza ibyo bari kumubwira hagati yabo hari ameza akoze mu rubaho rwiza cyane hariho ikirahuri kirimo amazi yo kunywa ,igitabo cyo kwandikamo, umukobwa ufite ibipapuro arimo gusobanurira umusaza uko ari bukoresha imiti.

Umuryango w'abantu batatu bari ku meza bagiye gufata ifunguro, baranezerewe, umugabo, umugore n'umukecuru, umukobwa mwiza cyane uri kubarurira, abashyiriraho imboga kugira ngo barye ibyubaka umubiri.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ishati ya oranje. Afite umusatsi urimo imvi nyinshi, arimo araseka anezerewe, iruhande rwe hari umukobwa wambaye ishati y'ijingisi agapira k'umweru n'umukara, yambaye amarineti arimo araseka baranezerewe.

Umubyeyi wicaye ukikijwe n'abana benshi yambaye ijipo y'igitaka n'ishati y'amaboko avanze, barishimye, bameze neza barimo gufata ifoto y'urwibutso kugirango bajye bibuka.

Umukecuru wicaye hasi, yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, ishati y'umweru, ateze igitambaro, iruhande rwe hari ahantu yateye amashyiga hariho isafuriya ipfundikijwe iyindi, aracanye aratetse, iruhande rwe hari urugo ruriho ibyatsi byinshi.

Umugabo ukuze wambaye imyenda y'ubururu arambuye akaboko, afite akuma mu ntoki bamufatishije kugira ngo arambure akaboko afite ko gakora neza. Umuganga wabizobereyemo arimo kumukoresha imyitozo ituma arambura ingingo ze zose.

Abantu babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, barimo kwiruka, umudamu washyizemo imbaraga wifitiye icyizere, kugira ngo nawe abashe gukora imyitozo, ituma ubuzima bwe bumera neza. Bimurinda gusaza, guhinamirana...

Umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda w'akazi w'ubururu ikarita imuranga yashyizeho arimo araseka anezerewe. Umurwayi ari kwakira amuha imiti y'ibanze kugirango abashe kwivuza atarembye cyane, umupapa afite amazi yo kuywa.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu ari kwihanagura mu maso yazamuye amarinete, afite umusatsi mwinshi mwiza cyane wuzuyemo imvi, ikirahure cy'amazi afite mu ntoki kugirango amazi amugirire akamaro mu mubiri wiwe.

Umusaza ukuze yicaye mu kagare, biragaragara ko arwaye yambaye umupira w'umweru ipantaro umuganga umwitaho kumusekera amutera imbaraga amubwira ko atagomba kwiheba azakira yambaye imyenda y'ubururu.

Umudamu ukuze yicaye mu ntebe nziza y'amadiva yambaye agapira k'amaboko, ishati irimo amabara atandukanye amanutse imirongo, umukobwa w'umuganga umufashe mu bitugu arimo bamubwira ko arwaye ariko azakira.

Umugabo ukuze wicaye ku ntebe agiye kwa muganga, yambaye ipantaro, ishati y'umutuku, arimo araseka anezerewe uburyo bari kumusuzuma indwara afite, umukobwa mutoya w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Umukecuru wicaye ku ntebe, yambaye ishati ya shokora, arasa neza, ahanze amaso uri imbere ye umuganga uri kumuha ubufasha bwo kugira ngo amuvure akire, amuhereje ikinini mu ntoki, amazi yo kukinywesha ateretse imbere ye.

Umuganga yambaye imyenda y'ubururu, afite imisatsi yambaye isaha ku kaboko arimo arahereza umukecuru wicaye imiti yo kunywa afite amazi mu kirahure ateretse ku meza agiye kunywa imiti kugira ngo ubuzima bugende neza.

Abihaye imana batatu barahagaze, imbere yabo hari umugabo uri gusuhuza uwihaye imana anezerewe amushimira ko yifatanyije nabo mu nama bakoze umunezero.

Abaganga babiri baricaye hagati yabo hari ameza ariho ibikoresho bakoresha, bambaye amakarita abaranga mu ijosi, ufashe urutoki rw'umukecuru bigaragara ko ugiyefata amaraso ngo arebe uburwayi afite.

Abantu benshi batandukanye bari mu muhanda. Bambaye imipira y'umweru bashyize hamwe. Bafite ibyapa bigaragaza ko bagomba kwirinda kanseri y'ibere. Barimo gushishikariza abantu bose kujya kwisuzumisha kugira ngo hatazagira uhura n'ibyo byago atarigeze amenya uko ahagaze.

Ihema ry'umweru bashinze, bateganya ko abantu baza bakabasuzumiramo, abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu, dupfukamunwa, ingofero, barimo kurebera umusaza wicaye ku gatebe yasamye bamurebera uburwayi bwo mu kanwa afite.

Abakobwa benshi bicaye muri sale bakurikiye inama basutse kimwe, imbere yabo hari uhagaze arikubaha ikiganiro, barakurikiye uri kubafata amajwi n'amashusho.

Umugabo wicaye ku mayesakariye abiri, iruhande rwe hari igiti kinini cyane gifite amababi atandukanye, yambaye ipantalo y'umukara n'ishati y'amaboko maremare ,hirya hari inzu ihinguka.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bicaye ku ntebe, bahanze amaso imbere yabo abari kubasobanurira ibijyanye n'inama babateguriye, yambaye ipantaro y'umukara, ikote, ishati y'umweru arimo arabasobanurira buri kimwe bagomba kwigaho.

Umukobwa uri kwa muganga, aryamye ku gitanda, yambaye ikanzu y'igitenge, abantu babiri bamuri iruhande harimo, umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare. Umuganga urimo kumutera urushinge kugira ngo abashe koroherwa n'uburwayi afite.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari kwa muganga, abakobwa, abagabo, abasore. Ahantu hanini cyane, ucunga umutekano uri ku muryango kugira ngo arebe abinjira n'abasohoka, hirindwe n'icyateza umutekano muke kwa muganga abayobora aho bifuza kujya.

Umuganga uhagaze urimo guseka, ufite igitabo mu ntoki, ishati y'umweru. Yambaye igipimo mu ijosi, arimo araseka. Aranezerewe inyuma ye hari urutoki, inzu y'ibyatsi. Umadamu uhagaze bigaragara ko atwite.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, size irangi ry'umweru, igisenge icyaho gishakaje amabati ni kinini, ku muzenguruka hari indabo zihateye, icyapa kigaragara ko utanga serivisi yo kuvura amaso.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba cy'inama. Uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, arimo kwerekana aho bari gusoma amabwiriza agenga kampani yabo, uwicaye wambaye umupira w'umutuku, ateze amatwi arimo kwitegereza ibyo bamusobanurira. Imbere ye hari ameza ariho igitambaro cy'umutuku n'umweru, imashini, amazi yo kunywa...

Icyumba cyo kwa muganga kinini cyane. Harimo ibitanda muri buri nguni by'umweru bishashe neza. Amarido yo gukinga kugira ngo umwe ye kureba undi. Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi urimo ureba isuku yaho bahatunganya neza kugira ngo abarwayi bajye ahantu hasukuye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyiza, gisize amarangi y'umweru harimo ibitanda bitandukanye byinshi. Hejuru hari supernet zo kuraramo. Amadirishya agiyemo harimo rido z'ubururu, umuganga uhagaze uri kureba uburyo hateguwe.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyagenewe kubageramo abantu bafite ikibazo kidasanzwe kugira ngo babatabare agatanda agashasheho amashuka y'umweru abaganga batandukanye barimo kureba uburyo bari bukorere umurwayi wabo.

Inzu nini cyane yubatse mu kibanza cyiza, isize irangi ry'umweru ku madirishya, imiryango. Imbere hari ikigega cy'umukara, ubusitani buteye neza cyane. Umwana ufite ubumuga uraho mu kibuga, yicaye mu kagare.

Laboratwari nini yo kwa muganga. Irimo umugabo uhagaze wambaye umwenda w'akazi n'agapfukamuwa kugira ngo yirinde icyamwanduza. Ahantu bazana ibizamini by'abarwayi, kugira ngo babasuzumire barebe uko bahagaze.

Abaganga benshi bambaye imyenda y'ubwirinzi, ifunze hasi no hejuru, ni umweru ifite akabara k'ubururu, bari mu bitaro bimwe bigaragara ko harimo barwayi baryamye bafite uburwayi bwandura, bagerageza kwirinda kugira na bo badahura n'ubwo burwayi.

Kwa muganga abakobwa babiri bari aho bakirira, abaje babagana babaza icyo bifuza, barahagaze bari kureba uri imbere yabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu, arimo arabwira umuganga akeneye yifuza kugira ngo amuvure yicaye.

Umuntu urwaye ari mu bitaro, barimo kumwitaho, arimo serumu, umuganga w'umukobwa, wambaye imyenda y'ubururu, arimo kugenzura neza niba serumu bamuteye ikora neza, akareba ko yorohewe.

Ni kwa muganga hari ibikoresho byinshi byikoranabuhanga, ibyuma bimanitse hejuru. Umuntu uryamye ku gatanda wambaye imyenda y'ubururu biragaragara ko bari kumubaga, kugirango ngo bamuvure uburwayi afite, barafatanyije bashyize hamwe . Bambaye ga ku maboko z'ubwirinzi n'ingofero, udupfukamunwa.

Inzu nini cyane yubakije amatafari ahiye isakaje amabati, yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Bwerere, iruhande rwayo hazengurutse indabo nyinshi nziza cyane, hakurya hateye ibyatsi.

Inzu nziza cyane y'ikitegererezo, isize amarangi y'umweru, irageretse, iriho amabati asize irangi ry'ubururu, imbere hariho amagambo yanditse ko ari kigo nderabuzima, ni heza cyane hari idarapo ry'igihugu.

Abaganga bishyize hamwe, barahagaze, baragaragaza ko bafite imbaraga kandi ko bashoboye, bambaye imyenda y'ubururu, dupfukamunwa, amakarita abaranga mu ijosi, bakorera ikigo kinini cy'ubuvuzi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gisa neza, gifite ibikoresho bitandukanye gisize irange ry'umweru, imashini ziteretse kumeza, umukobwa wicaye yambaye umwenda w'akazi w'umweru afite igitabo, imbere ye hari umurwayi uri kumubwira uburyo yumva amerewe, uri inyuma nawe ari kwitegereza mu gitabo.

Umusore mwiza cyane, uri ahantu hagenewe gukorera, imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umukara, ikabutura n'umupira, azamuye akaguru, arimo kwitoza, arimo asimbuka, kugira ngo umubiri we ugende neza, yumva amerewe.

Umusore wicaye hasi ari muri siporo akaguru kamwe aragahinnye akandi arakarambuye yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umuhondo arunamye arambuye amaboko arimo akoza k'amavi.

Abasore b'urubyiruko benshi bahagaze mwishyamba bambaye imipira y'umweru biragaragara ko bari mu myitozo ikorera yubutabazi ya croix rouge, babiri bambaye imyenda y'umutuku iriho ikirango cya croix rouge. bafashe umuntu bamutereye mu maboko barimo kumutabara bamuha ubutabazi bwibanze.

Umukobwa mutoya cyane yambaye agapira ka pinki, ekuteri mu matwi, ari no kunywa amazi. Afunze imisatsi, tuzi yuko ubuzima bwacu bugizwe no kunywa amazi kugira ngo tutarwara indwara za hato na hato.

Umukobwa wicaye arimo gukora siporo akaguru kamwe aragahinye, akandi akarambuye amaboko ari kuyakuzaho, biragaragara ko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu, ituma umubiri wacu ukora neza tukirinda indwara ziza za hato na hato.

Umusore muremure, ufite igihagararo, yambaye agapira k'icyatsi gaciye amaboko, arimo gukora siporo, afite agacupa k'amazi ari kwimenaho, kuko yumvaga umubiri we ushyuhiranye utameze neza, siporo ni ingenzi.

Umusore mwiza cyane, wambaye isengeri y'icyatsi, arabyibushye, arimo kunywa amazi, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri. Amazi ni meza mu buzima, atuma umubiri ukora neza.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, isaha ku kuboko, afite icupa ry'amazi yashyize ku munwa arimo kugotomera, ni ingenzi mu buzima bwacu, ko tugomba kunywa amazi menshi kugira ngo tutarwara indwara za hato na hato.

Ikiganza gifashe ijaga nziza cyane, irimo amazi y'urubogobogo, barimo kuyasuka mu kirahure kugira ngo uyakeneye ayanywe, ni meza mu buzima, atuma umubiri wacu ukora neza, aturinda kurwara impyiko.

Umukobwa urimo kunywa amazi mutoya w'inzobe yambaye isengeri ya move, ekuteri mu matwi afite umusatsi mwiza yiziritse akantu ku kaboko, amazi ni isoko y'ubuzima atuma umubiri ukora neza.

Abasore bafite ibigango, imbaraga bahuje umugambi barimo gukora imyitozo ngororamubiri, kwirukanka bashyizemo imbaraga, bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu benshi. Abarwayi bicaye ku gitanda bambaye udupfukamunwa. Abaganga barimo kwitegereza bareba uburyo bakora basobanurira abashyitsi babasuye. Umukobwa wambaye itaburiya urimo kubereka.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bahagaze mu murima uhinzemo ibikakarubamba byinshi. Bambaye imyenda y'icyatsi, ipantaro y'umukara, barimo barareba uburyo bihingiye umuti mwiza w'igikakarubamba baranezerewe.